Icyumba kirimo abantu benshi cyane batandukanye by'umwihariko b'urubyiruko biganjemo abasore n'inkumi, benshi muri bo baricaye abandi bagera kuri bane barahagaze.

Icyumba gikorerwamo inama kirimo abantu benshi ariko abagaragara akaba ari batatu, harimo abagore babiri ndetse n'umugabo umwe uri gukoresha indangururamajwi atanga igitekerezo.

Igisharagadi kiri kuberamo inama hakaba harimo abantu benshi yaba abagore, abagabo, abasore ndetse n'inkumi ndetse ku murongo w'imbere akaba yicaye abantu basa nk'aho ari abayobozi bamwe muri bo bakaba bafashe telefoni zabo mu ntoki.

Inama bigaragara ko ari iya leta irimo abantu benshi batandukanye harimo abagabo, abagore n'abakobwa ndetse n'abasore imbere mu nama hakaba hari abanyacyubahiro bitabiriye inama harimo abari mu mpuzankano y'abasirikare imbere yabo hari amacupa yaje ndetse n'amacupa y'amazi ndetse umwe muri bo akaba afite mudasobwabwa.

Icyumba gikorerwamo inama kirimo abantu benshi batandukanye yaba abagore ndetse n'abagabo, imbere yabo bakaba bafite amacupa y'amazi ndetse n'amacupa ya ji.

Mu nama irimo abantu benshi batandukanye, muri iyo nama abari kugaragara cyane ni abagabo ndetse n'umumansera umwe, ku ntebe y'imbere hakaba hicaye umugabo wirabura wambeye rinete akaba afashe indangururamajwi ari gutanga ibitekerezo.

Icyumba gikorerwamo inama kirimo abantu bagera ku icumi icyenda muri bo baricaye undi umwe arahagaze kubera ko ariwe uyoboye inama ku bicaye buri wese afite icupa ry'amazi ndetse n'icupa ryaji imbere ndetse bamwe muri bo bafite mudasobwa imbere yabo abandi bafite amakayi ndetse n'amakaramu byo kwandika ibiri kuvugirwa mu nama.

Icyumba cy'inama kirimo abantu benshi cyane batandukanye, cyane cyane urubyiruko bambaye imyenda yo hejuru iri mu ibara ry'umuhondo hose, imbere yabo hakaba hari abantu bakuru bambaye na bo imyenda yo hejuru isa icyatsi ndetse n'umupolisikazi uri mu mpuzankano ziwe.

Icyumba gikorerwamo inama kirimo abantu benshi batandukanye, ku murongo wabo w'imbere hagaragara abagabo babiri, umwe muri bo akaba afashe mikoro, ari gutanga igitekerezo iruhande rwe hakaba hateretse icupa ry'kirahure ririmo amazi.

Icyumba gikorerwamo inama kirimo abantu benshi batandukanye biganjemo abagabo, abagore, abasore ndetse n'inkumi. Ku meza y'imbere hicayeho abantu bagera kuri batanu, buri wese muri bo akaba afite amazi imbere ye ndetse n'indangururamajwi.

Umugabo w'imibiri yombi udafite umusatsi ku mutwe wambaye amadarubindi n'ikote rijya gusa umukara, ririho akadapo k'u Rwanda wicaye mu nama, imbere hari icupa ry'amazi, inyuma ye hakaba hari n'abandi bantu benshi n'abo bitabiriye inama.

Mu mujyi mu nyubako yo kwa Makuza, hari abantu bicaye ku ntebe ziri mu mbuga yayo, hari ndetse n'abandi bantu barimo kugenda.

Amabwiriza yatanzwe n'ikigo kirengera ibidukikije kizwi ku izina rya rura, avuga ku birebana n'ikoreshwa rya gaze mu ngo, hakaba hariho ibintu bitandukanye abantu bagomba kwitondera igihe bari gukoresha gaze mu ngo zabo.

Icyapa kiri kwerekana sisisteme ya ibiyemu ikoreshwa mu bucuruzi ku birebana no gutanga inyemezabwishyu ku muguzi kikaba kiri kwerekana uburyo butandukanye ibiyemu ishobora gukoreshwa haba kuri telefone onorayini no kuri mudasobwa.

Sisiteme y'ikigo cy'imisoro n'amahoro cyo mu Rwanda, igamije gufasha abakoresha kwishyura imisoro ku mishahara y'abakozi b'abo ndetse ikanabafasha gusinya mu buryo bw'ikoranabuhanga ku misoro bishyuye.

Sisiteme izwi ku izina ry'irembo, ikoreshwa hano mu Rwanda, ikaba ikoreshwa mu gutanga serivisi zitandukanye, kuzishyura ndetse no gutanga ibyemezo, kugira ngo byorohe hakaba hariho umwanya wo gushakisha bitewe na serivisi uje gushaka kuri sisiteme.

Icyapa kimanitse, aho abantu bajya kurira hazwi kuri resitora cyangwa akabari, kikaba kiri mu ibara ry'ubururu n'umweru, kikaba kigaragaza ko aho hantu umuntu ashobora kuhabona wayifayi y'ubuntu.

Ku mupira wa kizimyamoto wifashishwa mu gihe habaye inkongi y'umuriro, uba uri ahantu runaka hahurira abantu benshi nko mu masoko, mu mavuriro ndetse no mu ma sitade, uyu mupira wifashishwa ubusukira amazi bitewe n'ahantu inkongi y'umuriro iri.

Amabwiriza agenderwaho igihe umuntu yifuza guhindura ijambobanga rye ryo muri sisiteme y'ikigo cy'imisoro n'amahoro asanzwe akoresha.

Icyumba cya mudasobwa, kirimo mudasobwa nyinshi ndetse n'abantu bicaye imbere ya mudasobwa, bari kuzikoresha, ndetse hari na mudasobwa imwe idafite umuntu uri kuyikoresha.

Itangazo ry'inama ikomeye izaba iri kuvuga kubirebana n'ikoranabuhanga; izabera i Kigali mu Rwanda ku itariki makumyabiri n'enye kugeza makumyabiri n'esheshatu gashyantare bibiri na makumyabiri na gatanu, rikaba ryashyizwe hanze n'ikigo cy'imyuga gikunze kwitwa RDB.

Itangazo ku birebana n' imisoro, cyane cyane ku birebana n'imisoro ku mitungo itimukanwa, aho imitungo itimukanwa igomba gusorerwa bitarenze taliki ya mirongo itatu na rimwe ukuboza buri mwaka.

Akazu k'umuhondo gakorerwamo n'isosiyete y'itumanaho mu Rwanda ya emutiyene, harimo umugabo uhagaze witeguye guha serivisi abaza bamugana zirimo; kubitsa, kubikuza, cyangwa kohereza amafaranga.

Uruzitiro rw'ibyuma biri mu ibara ry'umutuku, hejuru y'ibyo byuma hakaba ariho senyenge zirinda umutekano, imbere muri urwo ruzitiro harimo amabuwate menshi atandukanye, abitsemo insinga z'umuriro ndetse zimwe muri izo nsinga zirarenga zikagaragara no hanze.

Mu muhanda w'umukara ahazwi nka nyabugogo hari urujya n'uruza rw'abantu benshi higanjemo abantu ndetse n'ibinyabiziga hakabarimo amamodoka atwara abagenzi, ibikamyo bitwara imizigo ndetse na moto zitwara abagenzi.

Inyubako nziza ikiri mu mirimo yo kubakwa, ikaba izitijwe uruzitiro rw'amabati, iruhande rw'ayo mabati hakaba hari ipoto y'amashanyarazi ndetse n'igiti kinini cyane k'icyatsi.

Inyubako bigaragara ko ari izo kwa muganga, izo nyubako zikaba zubakishije amatafari ya Ruriba, mu mbuga yazo hakaba hateretsemo kizimyamwoto.

Inyubako bigaragara ko ari izo kwa muganga, inyuma yazo hari imbuga nini irimo igice kimwe kirimo ibyatsi ikindi kirimo amabuye azwi ku izina ry'amapave ndetse n'ikindi gice kirimo utubuye duto cyane ndetse muri iyo mbuga hakaba harimo ingunguru zirimo ibara ry'umutuku zikoreshwa bajugunyamo imyanda.

Ahantu bigaragara ko ari kwa muganga imbere y'inzu, hari intebe abarwayi bicararaho bategereje, hakaba hicayeho abantu batandukanye bahindukiye bari kureba inyuma, inyuma yabo hakaba hari ibiti birebire by'imikindo.

Mu mbuga bigaragara ko ari iy'umurenge cyangwa se akagari irimo abantu benshi batandukanye bicaye hasi, bamwe muri bo bitwikiriye imitaka kubera izuba, imbere yabo hakaba hari ameza ndetse n'intebe byicayeho abantu bigaragaza ko aribo bayoboye iyo nama, ndetse hagati yabo bombi hakaba harimo umugabo uhagaze.

Igororero cyangwa gereza ya Nyarugenge ibarizwamo abantu bakoze ibyaha, ikaba ari inyubako ndende, ifite inkuta ndende cyane zubakishijwe amatafari ya ruriba, ku gipangu cyayo hakaba hahagaze umusekiririte wambaye impuzankano zijya gusa kaki.

Igazeti ya leta irimo amategeko agenga igihugu cy'u Rwanda tukaba turi kubona amategeko agera kuri abiri ari mu kinyarwanda, mu cyongereza ndetse no mu gifaransa.

Umugore w'umucamanza uri mu mpuzankano z'abacamanza bigaragara ko akuze birabura arahagaze ari kurahira ku idarapo ku ubwo inshingano nshya agiye gutangira.

Mu muhanda w'umukara urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bitandukanye bitwara abagenzi hagazemo umupolisi wambaye impuzankano ze ndetse n'ijire igenewe abapolisi bakora mu muhanda imbere ye akaba yari guturoka moto yicayeho umumotari gusa.

Ikibuga kimenyereweho kwigishirizwamo gutwara ibinyabiziga harimo abantu benshi batandukanye ndetse n'ibinyabiziga bitandukanye hakaba harimo abapolisi babiri bari mu mpuzankano zabo baje gukoresha ibizamini byo gutanga impushya zo gutwara ibinyabiziga ndetse imbere y'umwe muri abo bapolisi harimo abantu bicaye kuri moto.

Mu muhanda w'umukara harimo imodoka nyinshi zitandukanye, zihagaze kuruhande rwa ruguru y'umuhanda hahagaze umupolisi uri gukoresha uruhushya rwabo rwo gutwara, kugirango arebe niba bemerewe gutwara, cyangwa ntayandi makosa bigeze gukora mu muhanda.

Icyicaro gikuru cya polisi hano mu Rwanda, ku marembo yacyo hakaba hahagazeho abapolisi babiri bambaye impuzankano z'ubururu bwijimye, ndetse bafite n'ibikoresho bakoresha barinda umutekano.

Abagore bagera kuri barindwi, bambaye imwe mu myenda iranga igihugu cyacu yitwa imikenyero, bakaba bahagaze iruhande rw'amadarapo bamanitse akaboko, bari kurahirira inshingano nshya bagiye gutangira gusohoza.

Abantu baba mu ishyaka rya efuperi inkotanyi rizwi mu Rwanda, bakaba bambaye imipira y'ubururu ndetse bafite n'utudarapo tw'iryo shyaka, bakaba bari kwamamaza umukandida wabo.

Abantu benshi bari kwamamaza umukandida wo mu ishyaka rya girini pati (green party) wari uri kwiyamamariza kuba umukuru w'igihugu cy'u Rwanda.

Umuhanda w'umukara urimo amagare atatu ahagaze, abiri muri yo akaba nta banyonzi afite, irindi rimwe rikaba ririho umunyonzi urihagaze iruhande ndetse inyuma hakaba hari guturuka imodoka zigera muri ebyiri.

Umuhanda w'umukara urimo imodoka itwara abagenzi, igaragara nk'aho irimo umuyobozi wayo gusa, imbere yayo hari moto iriho umumotari gusa ndetse ku ruhande rwayo rw'iburyo hari moto iriho umumotari ndetse n'abagenzi babiri, umwe akaba ari umuntu mukuru, undi akaba ari akana, bigaragara ko kari munsi y'imyaka ibiri.

Mu muhanda w'umukara harimo igikamyo kirekire cy'umweru gitwara imizigo ruguru y'umuhanda hari icyapa kimanitse iruhande rw'igiti cyanditseho imwe mu nzoga zikorerwa mu Rwanda yitwa mitsingi.

Umuhanda w'umukara urimo ibinyabiziga bitandukanye. Ku ruhande rw'ibumoso hari ikinyabiziga gitwara inzigo kizwi ku izina ry'igikamyo, Kiri kugenda ku ruhande rw'iburyo, hari ikindi kinyabiziga nacyo gitwara imizigo kizwi ku izina ry'ikamyo. Imbere yacyo hari igare ritwaye imizigo itandukanye irimo ibyo kurya.

Mu muhanda w'umukara ahazwi nko mu mujyi hahagaze imodoka nyinshi zitandukanye ziri mu ibara ry'umweru zizwiho gutwara abagenzi bigenga.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, hakaba harimo imodoka y'umukara iri mu bwoko bwa benzi, iruhande rwayo rw'iburyo hakaba hari ikinyabiziga k'iminyamitende ibiri, ni ukuvuga moto iriho umugenzi ndetse n'umumotari.

Imbuga ngari irimo ibyatsi byinshi ariko hagati muri ibyo byatsi harimo agace gato cyane kagizwe n'ibitaka.

Ikibuga gikinirwamo umukino uzwi cyane w'amaboko ukunze kwitwa voreboro, iruhande rwacyo hakaba hari kugaragara inzu ndetse n'ibiti byinshi cyane birebire.

Icyapa cyo mu muhanda kimenyesha ki mu'i ibara ry'umuhondo ndetse n'umukara kimenyesha ko imbere mu muhanda, hari umuhanda urombereje ukomeje ndetse ko ku ruhande rw'ibumoso hari undi muhanda ushamikiyeho.

Icyapa cyo mu muhanda kiri mu ibara ry'umuhondo, ndetse n'umukara, kimenyesha ko imbere ari mu isangano ry'umuhanda, ruguru yacyo hakaba hari uruzitiro rukoze mu byuma ndetse ruriho ibyatsi byinshi cyane.

Icyapa cyo mu muhanda kiri mu ishusho ya kare kigizwe n'amabara agera muri ane iry'umuhondo, ury'ubururu ury'umukara ndetse n'umweru imbere mu cyapa hakaba harimo umugenzi uri mu ibara ry'umukara uri kwambuka icyo cyapa kikaba kimenyesha ko aho hantu abanyamaguru bahakoresha bambuka.

Inzu igeretse rimwe isize irangi ry'umweru ifite n'imiryango myinshi cyane bigaragara ko ishobora kuba ikodeshwa, inyuma yayo hakaba ari imbuga nini cyane irimo amapave hasi, ikaba iparitsemo imodoka zigera muri ebyiri.

Umuhanda w'umukara harimo ibinyabiziga bibiri bizwi ku izina rya moto kimwe muri ibyo binyabiziga kiriho motari ndetse n'umugenzi, ikindi kinyabiziga kiriho umumotari gusa inyuma yabyo hari abantu batatu bahagaze.

Umuhanda w'umukara w'ahantu hazwi ku izina ryo ku mazi, hakaba harimo ibinyabiziga bitandukanye, yaba ibi by'abantu ku giti cyabo, yaba ibitwara imizigo ndetse n'ibinyabiziga by'ibinyabitende ibi ni ukuvuga moto.

Umuhanda w'umukara urimo ibinyabiziga byinshi bitandukanye, iby'ibinyamitende ibiri ni ukuvuga moto, ndetse n'ibikamyo bitwara imizigo, ku barimo abamotari bagera muri batatu batwaye n'abagenzi, ndetse n'umumotari umwe udatwaye umugenzi.

Umuhanda w'umukara, urimo moto zigera muri eshatu ziri kujya mu byerekezo bitandukanye, ebyiri muri zo zikaba zifite abagenzi, indi imwe ikaba iriho umumotari gusa ndetse ku ruhande rw'iburyo bw'umuhanda, aho abanyamaguru bagendera, hakaba hari ibyuma bigamije kurinda abantu.

Umuhanda w'ibitaka muremure ku ruhande rwayo rw'ibumoso ndetse n'iburyo, hakaba hubatse amazu atandukanye atageretse ndetse kuri izo mpande zombi hakaba hari ibyatsi n'ibiti birebire.